Telefone igaragaza urutonde rw'uburyo amafaranga yagiye ahererekanywa. Uwayohereje n'ingano y'ayo yohereje ndetse n'uwayakiriye n'ingano y'ayo yakiriye.

Inyandiko nyemezabwishyu ihabwa umuguzi, itangwa n'ubucuruzi yemeza yuko icyo umuntu yaguze yacyishyuye.

Inyubako ya banki ya Unguka ikorera mu Rwanda, imbere yayo hari abagore batanu begereye imodoka, hirya yabo hari umugabo w'umusekirite.

Ubutaka bwiza buherereye mu karere ka Kicukiro bungana na metero igihumbi na magana arindwi, kuri miliyoni magana tatu n'eshanu gusa, ushaka ibindi bisobanuro, wahamagara nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani umunani umunani gatandatu rimwe zeru icyenda icyenda.